Utu ni udukinisho, turimo umwana uri kwishungura, kandi utu dukinisho hara ahaba hasa n'umuhondo, n'ahari gusa n'ubururu, hakaba harimo n'undi muntu mukuru uhahagaze.

Aba bantu bahagaze imbere y'umukindo kandi bahagaze ku kabaraza k'inzu, imbere y'iyi nzu haparitse moto, hari kasike ebyiri kuri iyi moto zitukura, hateretse n'igifuka.

Abanga bambaye udupfukamunwa, hakaba hari abambaye amashati y'ubururu, amakabutura y'imikara, amasogisi y'umweru, inkweto z'umukara, hakaba hari abandi bagabo babiri bambaye imyenda y'akazi, ya kake hakaba hari n'undi mugabo umwe uhahagaze.

Aha ni mu ishuri harimo abana bambaye amashati y'imweru, n'amakabutura y'ubururu hakabamo n'umwarimu wabo yambaye ikanzu itukura.

Utu dukinisho mu tw'abana, harimo ahasa n'ubururu, harimo n'udusa n'icyatsi kibisi, harimo tw'umuhondo, kandi hari udufi, hari n'agafi gafashe ku rushundura.

Iyi nzu isize irangi ry'umweru kandi mu mbuga y'iyi nyubako hari indabo nziza hari na jaride, hakaba hari n'umugabo uhagaze mu mbuga kandi kuri iyi nyubako inyuma gatoya hakaba hateretse pubeli.

Iyi nzu ni iyamategura, kandi imerereko y'iyi nzu isize irangi ry'ubururu, iyi nzu isizeho irangi ry'umweru, mu mbuga harimo umuntu umurenga, yambaye akantu k'umweru n'imisatsi miremire.